Umugore uri gucuruza imiti zo muri farumasi ziba zigiye zitandukanye ari ubwoko bwinshi zidufasha kuvurwa bitworoheye.

Umugore uryamye witeze ingofero, yambaye ikanzu ikoze busengeri. Iruhande rwe haryamye umwana w'uruhinja.

Amakoro gabaga meza cyane, tugifashishaga mu kubaka amazu, ibipangu, gabaga gakomeye.

Geliveriya n'ibindi byatsi. Idufasha kubona imbaho, iyo kimaze gukura, baragitema zikavamo.

Ibinyomoro biteye mu murima bikiri bito bitaragera igihe cyo kuba wabisarura ngo bivemo imbuto.

Igisura ni imboga zikundaga kumera ahantu haba amazi menshi, ni imboga zikomeye cyane kuko ni umuti.

Umurima munini uhinzemo icyayi kimeze neza, kuko bacyitaho bashyizeho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi uwo murima urimo abahinzi bikoreye udutebo bavuye gusarura icyo cyayi, ikindi kandi bakijyanye ku isoko kuko kivamo amafaranga.

Icyatsi gifite amababi manini, urutoki, imibyare, ikiri mitoya biri mu kinani.

Inzu bari kubaka iriho amategura bashizeho amakositara, imbere yayo hariho igiti cy'umukarishi.

Igikakarubamba gihinzwe ahantu. Na cyo ni umuti ukomeye cyane cyane.